Inzu nziza cyane, inzu yubatswe n'amatafari iteye sima. Inzu ifite irangi ry'umweru, ifiite inzugi z'umweru. Iriho icyapa cyanditseho farumasi iraguha. Imbere gato hari abantu barimo imbere, bambaye ishati y'umweru n'ipataro y'umukara bafite n'agakapu gasa ukuntu.

Ibyatsi byiza cyane bifite ibara ry'icyatsi biri ku butaka bw'umukara bwiza, kuri ubwo butaka bwiza hariho amabuye meza abereye ijisho, hariho utuntu tw' udushababa tw'umweru.

Ikimera kiza cyane giteye ku butaka bw'umukara, icyo kimera kiri mu bintu umuntu yifashisha ahereza amatungo. Iki cyatsi bagikoramo imiti igiye itandukanye yo kuvura abantu, inyamaswa ndetse n'amatungo.

Isombe n'imyumbati ni kimwe mu biribwa umuntu yifashisha arya, ndetse akabijyana no ku isoko akabonamo amafaranga, ndetse bakabikuramo n' imiti igiye itandukanye, yo kuvurisha abantu bagiye batandukanye.

Aamayore, amayori meza cyane, afite ibara ry'icyatsi, ateye ku butaka bw'umukara bwiza, ibi ibyatsi wabikuramo imiti igiye itandukanye, yo kuvura abantu, ndetse n'inyamaswa, ibi byatsi bifite akamaro kanini, birinda isuri.

Ibiti byiza cyane, bifite ibara ry'icyatsi, ibiti biteye ku butaka bwiza bw'umukara, imbere hari amabuye ndetse hari n'akayira ,ibiti biri muri bimwe biturinda isuri, bikaba bituma tubona umwuka mwiza.

Ikimera kiza cyane gifite amababi menshi, gifite imbuto z'umweru, iki kimera gifite ibara ry'icyatsi, giteye ku butaka bw'umukara bwiza cyane. Icyatsi kiri mu bintu birinda isuri.

Ibyatsi byiza cyane birimo ubutaka bw'umukara. Ubutaka bw'umukara burimo amabuye meza y'umukara, ibyatsi biri muri bimwe biturinda isuri, ndetse ibyatsi turabyahira tukabiha amatungo.

Ikinyamugezi kiza cyane kiri ku butaka, ikinyamugezi umuntu akifashisha avura indwara zitandukanye harimo umuvuduko. Ikinyamugezi kiduha amafaranga ugiye kukigurisha, ikinyamugenzi ugikozeho kirakubaba.

Igiti cyiza gifite amababi meza y'icyatsi, kikaba gifite ibishami. Ibiti bituma duhumeka umwuka mwiza. Iruhande rw'igiti hirya gato hari ubutaka bwiza bw'umukara.

Igiti gifite udushami, hirya yacyo hari amabuye, hejuru y'amabuye hari ibyatsi by'icyatsi, hariho n'utuntu tw'umweru. Igiti kiri mu biturinda isuri kikaduha umwuka mwiza.

Urudega ruteye ku butaka bwiza. Iruhande rw'urudega hari amabuye meza. Urudega ni rumwe umuntu yifashisha arya, kugira ngo amagufwa aterane neza.

Ibyatsi byiza cyane, ibyatsi biri ku butaka bw'umukara, amabuye ari ku butaka. Ibyatsi ni bimwe mu bihingwa umuntu yifashisha akuramo imiti igiye itandukanye. Ibyatsi bikarinda isuri.

Ikimera cyiza cyane, ikimera gifite amababi meza, ikimera gifite ibara ry'icyatsi, ikimera kiri mu bintu birinda isuri. Ikimera ukijyanye ku rusyo bagikoramo umuti wo kuvura abantu ndetse n'inyamaswa.